Umurima uhinzemo ibirayi mu butaka, ndabona busa n'umukara iruhande rwaho hateye ishyamba ry'ibiti by'inturusu, hateye n'ibigori ubutaka ndabona bufumbiye cyane.

Abagabo bahetse impombo barimo gutera umuti mu bigori. Bigaragara ko ibigori bisa neza kandi by'ingirakamaro cyane. Ni igihingwa dukenera mu buzima bwa buri munsi.

Imishwi y'inkoko, inkoko ntoya cyane zigabanyije mu buryo ubonamo inkoko zo mu bwoko bw'ingore ni ubw'ingabo, bigiye biri mu buryo butandukanye.

Inka iri mu kiraro ,iri kumwe n'umugabo uyifite uri kuyikurura, ahetse n'ipombo ari kumwe n'undi mugabo iruhande rwe, iruhande rwaho hari n'ishyamba.